Umurima urimo umuhinzi arimo gutera ibiti by'imyembe ndetse n'izindi mbuto kugira ngo bimubyarire umusaruro kandi agire icyo ageraho.

Iduka ririmo imiti igiye itandukanye ndetse n'inyongeramusaruro zifashishwa mu kubungabunga ibihingwa, havurwa indwara zibasira ibyatsi.

Ubuhinzi bwa kijyambere bwibanda ku bigori aho abaturage n'abajyanama b'ubuhinzi, bagira inama z'uko bafata neza ibihingwa bongeraho inyongeramusaruro.

Ahantu runaka hari ifumbire yabugenewe ndetse ifasha mu kugira ngo ibihingwa bikure neza, bityo bigatanga umusaruro ukwiriye, kandi uboneye.

Iduka ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye, cyane cyane iby'ubuhinzi n'ubworozi, aho harimo ifumbire y'inyongeramusaruro, harimo imiti igiye igitandukanye yica ubukoko, ibi bigatuma ubuhinzi butera imbere.

Inzu irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buhinzi, harimo inyongeramusaruro, imiti igiye itandukanye mu kurinda ibihingwa, ndetse no kubibungabunga.

Ubuhinzi buteye imbere aho abajyanama b'ubuhinzi bita ku bihingwa ndetse bashyiraho n'ifumbire, bityo bigatanga umusaruro ukwiriye mu gihe gikwiye.

Inzu y'iguriro irimo ibicuruzwa bitandukanye byunganira ibihingwa, ndetse n'imiti ivura udukoko, bityo bigateza imbere umusaruro w'ubuhinzi.

Gahunda y'ubuhinzi n'ubworozi aho inzu yifashishwa mu kugurisha ndetse no gutunganya imiti, ikoreshwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi kugira ngo umusaruro wiyongere.

Ubuhinzi bwa kijyambere aho umurima utegurirwa gushyirwamo imyaka kandi harimo n'indi, by'umwihariko imyumbati, ibishyimbo ndetse harundwa n'ifumbire yo kuzafasha mu guhinga.

Gahunda y'ubuhinzi aho abaturage babanza gutegura umurima kugira ngo imyaka ibone guterwa bityo bagasasira ndetse bagakora n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye kugira ngo imbuto zizaterwa zizabe zifite ireme.

Ubuhinzi bwa kijyambere bwibanda ku mbuto imboga aho mu bishanga huhirwa, ndetse amazi akagera ku bihingwa neza bityo bigatuma habaho umusaruro uhagije.

Iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, imirama y'imbuto za karoti, inyanya ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kuhira imbuto ndetse n'imboga bityo bigatanga umusaruro ukwiriye mu gihe byakoreshejwe neza.

Ifumbire irunze ahantu hifashishwa mu kunganira umusaruro w'ibihingwa bigiye bitandukanye, bityo bikera neza kandi bagakoramo ibihagije.

Gahunda y'ubuhinzi bugezweho, aho abajyanama b'ubuhinzi bafatanya n'abaturage mu kubakangurira uko bafata ibihingwa byabo ndetse bashyiraho n'inyongera musaruro kugira ngo babone umusaruro uhagije.

Imirima itunganyijwe neza, aho hahinzemo imyumbati, ibigori; ndetse hatangiye no kurundwamo ifumbire izafasha mu guhinga imbuto zizaterwamo.

Iduka ririmo ibikoresho by'ubuhinzi n'ubworozi, aho umujyanama wabyo akoresha mu buryo bwose kugira ngo asobanure icyo bifasha mu kubungabunga ibihingwa.

Iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibyifashishwa mu kuhira ndetse n'imiti y'ibihingwa ndetse n'amatungo, kugira ngo ubuhinzi butere imbere.

Iduka ricuruza imiti ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, aho abaturage baza kugisha inama ndetse bagahabwa n'inyongeramusaruro bityo ubuhinzi bwabo bukagenda neza.

Ubuhinzi buteye imbere bwa kawa, aho abahinzi bita ku bihingwa batera imiti y'udukoko, baca amashami atari ingenzi bityo bigatanga umusaruro ukwiriye ndetse bigatuma abaturage biteza imbere.

Gahunda ihuriweho n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, aho abaturage bagiye batandukanye bifashisha ifumbire aho iba yarakusanyijwe ikajya gufumbira imyaka kugira ngo babone umusaruro mwiza.

Ubuhinzi bugezweho bwibanda ku mbuto ndetse n'imboga, aho abaturage bahinga neza kandi bagatanga umusaruro ukwiriye, bityo bigateza imbere Igihugu ndetse n'abaturage muri rusange.

Ubuhinzi buteye imbere bwa kawa, aho zihingwa ndetse zigakusanywa, umusaruro wazo ugafasha igihugu guteza imbere ndetse ukoherezwa no mu mahanga bityo abaturage bakabaho neza bakabona n'amafaranga abatunga.

Abaturage bahinga imbuto zibandwa cyane cyane ku nanasi, aho bishimiye umusaruro w'ibyavuyemo ndetse batera n'imbere mu buryo bwose.

Ubuhinzi bw'insina za kijyambere, harimo: iz'ibitoki, iz'imineke. Byose bibumbatanyiriza hamwe gutanga umusaruro ukwiriye.

Umurima uteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo insina, ikawa, imyumbati ndetse n'ibindi bitanga umusaruro, bigatanga kandi n'ibyo kurya.

Umurima uteyemo ibitoki, by'imineke kandi byeze neza, aho umuhinzi, agenda akagenzura ko bimeze neza, ndetse areba n'umusaruro wabyo.

Gahunda y'ubuhinzi bw'imboga kandi zigezweho, zifashishwa ahantu hose bityo zigatanga umusaruro kandi zigasagurira n'amasoko bigafasha ababikora kwiteza imbere.

Abaturage babukereye kandi benshi mu gutunganya ndetse no guhumbikira ibiti imbuto ndetse n'imboga, bityo bikabafasha mu buhinzi bwabo kugira bugenda neza kandi bikabateza n'imbere muri rusange.

Ubuhinzi bwa kijyambere aho imbuto by'umwihariko voka zihingwa kugira ngo zisagurirwe amasoko ndetse zinayahaze, bityo bigafasha abaturage kwiteza imbere mu gihe byakusanyijwe.

Ubuhinzi buteye imbere, aho umurima urimo ikawa, nsina, kandi bisasiye neza, bityo bikagira umusaruro kandi ushimishije.

Ubuhumbekero bw'ibiti bigiye bitandukanye cyane cyane amacunga, amaronji, aho bituburwa mu buryo bugezweho kugira ngo bitange umusaruro ukwiriye.

Ubuhinzi n'ubworozi, cyane cyane hibandwa ku bihingwa, birimo inzuzi, inyanya ndetse bikaba bifasha mu mirire ndetse no kunganira abaturage.

Umurima ugaragaza, ibihingwa bitandukanye, ariko byapfuye, hari n'imyumbati igaragara neza, ariko amasaka yo akaba atameze neza. Bityo akaba ari n'umurima ku ruhande, utunganywa kugira ngo wakire imbuto y'indi sezo itaha.

Ubuhinzi bugezweho bw'umuceri, buhingwa mu gishanga, aho butanga umusaruro ukwiriye iyo witaweho neza bityo bigafasha mu kuboneka kw'ibiryo ndetse n'ubukungu bw'igihugu muri rusange.

Ubworozi bw'amatungo magufi by'umwihariko ingurube, aho zororwa kijyambere zitanga umusaruro w'ifumbire n'amafaranga kandi n'inyama zikaboneka.

Gahunda y'ubuvuzi bw'amatungo ndetse n'ubworozi buteye imbere, aho umuganga uvura inyamaswa arimo atanga imiti ndetse yita no ku mbwa yahuye n'ikibazo.

Ubworozi bw'amatungo magufi, aho hororwa inkoko kugira ngo zitange umusaruro w'inyama ndetse n'amagi, mu gufasha imirire no kunganira muri rusange.

Imiti yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi aho ituma ibihingwa bibungabungwa neza ndetse imiti itica udukoko duto dutuma habaho koroka ndetse no gukura kw'ibihingwa.

Abaturage batera ibiti, ahagiye hatandukanye mu mirima, kugira ngo urusobe rw'ibinyabuzima rukomeze rubungabungwe.

Abaturage benshi bitabiriye igikorwa rusange, ndetse kijyanye n'ubuhinzi cyo gukora amaterasi y'indinganire, hagamijwe kurwanya isuri.

Umurima uteyemo imyumbati ndetse abahinzi barimo bateramo izindi mbuto kandi batunganya Ibya season itaha.

Abaturage benshi bateraniye ahantu hamwe bari gukora igikorwa rusange cy'umuganda, kandi bakora n'ibikorwa by'iterambere iki gihugu kikagenda cyaguka.

Umuhinzi uri mu murima, ahateye insina, ndetse n'ibindi bihingwa, aho atunganya ho gutera gushyira imbuto zizahingwa igihe runaka, bityo bigatanga umusaruro ukwiriye.

Gahunda y'ubuhinzi n'ubworozi, aho umuturage arimo abagarira imyaka ndetse asarura n'imwe yeze, harimo ibigori ndetse n'ibindi, bityo bigafasha mu iterambere rusange ry'abaturage.

Ubuhinzi ndetse n'ubworozi aho abaturage bategura imirima neza bategereje igihe cy'ihinga bityo bikagufasha kugera ku musaruro uhagije kandi usagurira n'amasoko.

Ubuhinzi buteye imbere aho umuturage atunganya aho aributere imbuto aca ibisoro ndetse anagira neza, bityo bigatuma ibihingwa bikura neza kandi bikagira umusaruro uhagije.

Itsinda ry'abantu benshi bateraniye hamwe, bari mu buhumbekero bw'imyaka ndetse n'imbuto, bita ndetse bashyira itaka ku bimera byatoranijwe.

Abaturage bateraniye hamwe bari guhinga imboga mu karima k'igikoni, bityo bikabafasha mu kurinda indwara z'imirire mibi kandi bakiteza n'imbere kuko bafite ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abaturage, bateraniye hamwe, barimo kwita ku bikorwa by'ubuhinzi, ndetse bacukura imyobo, yo guteramo ibihingwa, kugira ngo bigende neza kandi bitange umusaruro uhagije.

Ubuhinzi bwa kijyambere ndetse buteye imbere, aho abajyanama bitabira ibikorwa byose mu kujya basura ibihingwa aho bigeze cyane cyane ibigori kugira ngo babone umusaruro uhagije.

Ubuhinzi bw'imboga rwatsi, dodo, ndetse n'ibisheke, aho zifasha mu kubungabunga imibereho myiza ndetse, no gutanga intungamubiri ku baturage.

Ubuhinzi bugezweho, aho umuturage ahinga umurima ari gutaba kugira ngo ategurire imbuto aho zizajya mu gihe cy'itera.

Ubuhinzi bwa kijyambere, aho abaturage bahinga imirima yabugenewe kugira ngo babone umusaruro ukwiriye, batunganya ubutaka mbere y'uko batera imbuto.

Mu buhinzi bw'imboga cyane cyane intoryi, aho umuturage asarura, areba umusaruro we aho ugeze, bityo bikamufasha kwiteza imbere mu buryo bwose.

Urujya n'uruza rw'abaturage batandukanye, aho bareba imirima uko iteye bityo bakareba n'imisaruro ifite, baganira.

Itsinda ry’abanyeshuri bari hamwe, bari gutunganya uturima tw’igikoni, cyane cyane abitwa abakorerabushake; bityo bigatanga umusanzu mu kubaka igihugu, kandi twifuza.

Ubuhinzi bw'ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo imyumbati ndetse abaturage bakaba bakora uko bashoboye kugira ngo batunganye umurima, mu ihinga ry'isizoni ikurikiyeho.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, insina, ibigori ndetse n'imyumbati ariko abahinzi bategura no guhinga icyiciro kindi gikurikiyeho kugira ngo imbuto zizabone aho zijya.

Ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere, aho umuhinzi yita ku bigori bye, akareba uko bihagaze ndetse n'umusaruro bitanga, bityo bikamuha icyizere cy'uko azasarura kandi neza.

Umusaruro wakusanyijwe w'ibigori, biri hamwe kandi biri mu bwanikiro, aho bifasha kugira ngo bibungabungwe neza, kandi bifashe mu kwiteza imbere mu gihe runaka.

Ubucuruzi bwa avoka zikusanyirijwe hamwe umusaruro uvuyemo, bityo bigafasha kunganira abaturage bazihinga kubona amafaranga ndetse zikajyana no ku isoko kugira ngo amasoko abone icyo ahaha.

Ubuhinzi bwa kijyambere kandi bugezweho bw'ibigori, aho bihinzwe mu gishanga, kandi bitanga n'umusaruro uhagije, igihe byitaweho ndetse bigatera umusanzu ku gihugu kugira ngo abaturage biteze imbere.

Gahunda y'ubuhinzi aho ibihingwa bihingwa mu gishanga, abaturage bari kubyitaho ndetse babiharurira kugira ngo bigire umusaruro uhagije.

Ubuhinzi bugezweho kandi bwa kijyambere, aho ibijumba bihingwa neza ku murongo kandi bigatanga umusaruro ukwiriye bityo ibiryo bikaboneka ku baturage ndetse n'amafaranga.

Ubuhinzi bw'umuceri, aho abaturage bari mu bishanga, bita ku buhinzi bwabo ndetse babubungabunga bityo bigatanga umusaruro wunganira igihugu ndetse n'abaturage muri rusange.

Urujya n'uruza rw'abaturage baremye isoko, aho hakusanyijwe imisaruro myinshi y'inyanya, bityo abagura n'abagurisha bagahura, bagahana amafaranga.

Urujya n'uruza rw'abaturage baremye isoko yibandwa ku musaruro ndetse mwinshi, ibitoki byakusanyirijwe hamwe, hari abagura ndetse n'abagurisha muri rusange.

Ubuhinzi bw'umuceri buri mu gishanga, aho weze utegerejwe gusarurwa kandi ugatanga umusaruro uhagije.

Umusaruro w'ibihingwa bigiye bitandukanye harimo ibishyimbo, ibigori, soya ndetse n'ibindi aho byakusanyirijwe ku iguriro bityo ababikeneye bakagura ndetse n'abagiye kugurisha bakabona amafaranga.

Itunganywa ry'umusaruro w'ibigori aho rikurwa kubitiiritiri rigashyirwa mu mufuka yabugenewe, kugira birindwe udusimba dushobora kubyangiza.

Umusaruro w'imbuto ziganjemo avoka, aho zahinzwe kijyambere kandi zigafasha gusagurira amasoko ndetse no gufasha abaturage muri rusange.

Ikusanyirizo ry'imyaka n'umusaruro harimo ibigori, amashaza, ibishyimbo, umuceri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byerekana ko byagiye byera.

Ikusanyirizo ry' umuceri umusaruro aho abaturage baba bawuzanye ngo bahabwe igiciro cyiza ndetse biteze n'imbere, bakuremo amafaranga kandi bibatungire n'imiryango.

Ububiko bw'imiceri, aho ikusanyirizwa hamwe kugira ngo itange umusaruro ukwiriye, maze abaturage bakagurirwa icyarimwe, kandi bakabona amafaranga ahagije, bityo bakiteza imbere muri byose.

Isoko ry'ibiribwa ndetse n'imyaka harimo ibishyimbo, ibigori ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu baremye isoko kugira ngo bihahire ndetse n'abagurisha babone amafaranga abatunga.

Ibiti biri hamwe aho bigaragaza urusobe rw'ibinyabuzima ndetse n'ibidukikije muri rusange, bigatanga umwuka kandi bigashushanya ahantu heza hasa neza kugira ngo ibidukikije bikomeze bibungabungwe.

Imirima irimo imyaka igiye itandukanye, cyane cyane ibigori, imyembe, avoka ndetse bifasha mu kugira umusanzu bitanga ku gihugu ndetse no ku baturage bibateza imbere.

Ubuhinzi bugezweho kandi bwibanda ku bihingwa bigiye bitandukanye, harimo ibigori bisa neza, imyumbati iteyemo ndetse n'amateke, ibyitwa ubuhinzi buvangavanze, bityo bigafasha abaturage kubaho neza.

Umurima uteyemo ibigori, ndetse n'insina, bityo bigafasha abaturage mu kubona ibyo batunga, kandi bakabaho neza.

Ibiti biteye hamwe ndetse bihuje ubwoko, aho bitanga umuyaga mwiza ku bidukikije ndetse bigafasha no kurinda ihumanya ry'ikirere.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo insina, ibigori, imyumbati ndetse n'imigozi y'ibijumba bitanga ibyo kurya.

Umuhanda nyabagendwa aho hafi yaho hateye insina ndetse n'ibindi bihingwa, hari n'igiti cy'imbuto z'avoka, bino bidufasha mu guteza imbere ubukungu ndetse no kubona ibidukwiriye mu gihe cya nyacyo.

Ishyamba ndetse riteyemo ibiti birebire cyane, aho bifasha mu kubungabunga ikirere no gutanga umwuka uhagije bityo imvura ikabonekera ku gihe kandi bikarinda iyangizwa ry'ikirere.

Ibiti bigiye bitandukanye, bifasha mu kubungabunga ibidukikije, ndetse n'imirimbo. Aho biterwa hagiye hatandukanye, kugira ngo bifashe mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima.

Ibiti biteye ku murongo ndetse bitanga n'akayaga, ubusitani bwiza, bityo bifasha mu kubungabunga ikirere ndetse bigatanga n'umwuka mwiza.

Umurima urimo insina z'amatere ndetse n'ibindi bihingwa biteyemo, aho umuturage yagiye gusura ndetse ari kureba aho ubuhinzi bwe bugeze.

Gahunda yo kubungabunga ibidukikije ndetse no kubiteza imbere, aho ibiti bibungabungwa neza ndetse bikagirirwa kwitabwaho, bikabungabunga n'ikirere muri rusange.

Umurima urimo imbuto z'inkende, hahinzemo ibigori, insina, bityo bifasha ababihinga kwiteza imbere, ndetse bakabaho neza.

Ubuhinzi bw'imbuto, cyane cyane izibanda ku mapapayi ndetse n'imboga zigiye zitandukanye, harimo rwatsi, dodo ndetse n'uturima tw'igikoni, mu kunganira imirire y'abaturage muri rusange.

Ubuhinzi bw'amapera mu gufasha abaturage kubaho neza, bahinga imbuto zigenda zibunganira mu mirire ya buri munsi.

Ubuhinzi bw'imboga aho haterwa ibihingwa bigiye bitandukanye; amashu, teyi, mu buryo bwo kugira ngo bifashe muri gahunda zigiye zitandukanye.

Umusaruro w'ubuhinzi bw'inyanya, ibitunguru, karoti ndetse na pavuro, aho zifashishwa mu gutuma imirire y'abaturage imererwa neza.

Umurima urimo imboga zigiye zitandukanye, aho umuturage yita ku buhinzi bwazo azibagarira ndetse aziha n'amazi akwiriye kugira ngo zitange umusaruro.

Ubusitani busa neza kandi buteye ku murongo kuri gahunda, aho bugamije kugira ikirere cyiza ndetse bugatanga n'umwuka mwiza watuzengurutse.

Ubuhinzi bw'imbuto ndetse n'icuruzwa ryazo, aho abaturage bagana ku isoko bakagurisha ndetse n'abandi bagahaha, bityo bigafasha mu iterambere ryabo ku giti cyabo ndetse n'iry'igihugu.

Imbuto ziganjemo imyembe, amacunga, pome ndetse n'amaronji hamwe na watermellon, aho byajyanywe ku isoko kugira ngo bicuruzwe bikurwemo amafaranga.

Umurima uteyemo imboga zigiye zitandukanye. Hari inyubako iruhande rwayo ndetse n'ibindi bihingwa avoka, insina, n'imiyenzi bigaragaza ko hatuwe n'abantu benshi.

Imboga n'imbuto ziteraniye hamwe, ahasa nko mu isoko, aho abaturage bateranira baza kugura ndetse n'abandi bagurisha, bibanda mu nyanya, insenda, pavuro ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bw'imbuto n'imboga, aho umusaruro wa sereri utangwa ndetse ugashyirwa ku isoko maze ugafasha abaturage kwihahira neza.

Umurima uteyemo imbuto zijyiye zitandukanye, aho abahinzi bita ku nsenda ndetse bakabungabunga n'umusaruro wazo, bityo bigafasha mu kubateza imbere.

Gahunda y'ubuhinzi bw'imbuto zigiye zitandukanye, harimo ibinyomoro ndetse n'ibindi, aho bifasha mu kongera intungamubiri ndetse bikazamura ubukungu bw'ababihinga.

Ibihingwa biri hamwe biri mu turima twabugenewe, harimo imbuto zigiye zitandukanye ibitunguru, karoti, ibyo bifasha mu kubona intungamubiri zihagije z'umubiri kandi bikarwanya imirire mibi.

Ubuhinzi bw'imbuto, cyane cyane ibinyomoro, aho bishyirwa mu bubombekero kugira ngo bikure neza ndetse bitange n'umusaruro, bityo bigafasha abaturage mu mirire myiza ndetse no gusagurira n'amasoko.

Imbuto ziganjemo imineke na voka, aho abaturage bazanye ku isoko kugira ngo bagurirwe ndetse babone n'amafaranga yo kwiteza imbere.

Ubucuruzi bw'imboga dodo, imboga rwatsi, aho umusaruro ukusanyirizwa hamwe ukajyanwa ku masoko, bityo bigafasha abahaha kuborohera, kandi bakabibona ku gihe, ndetse n'ababijyanye bakabona amafaranga yo kubateza imbere.

Umusaruro w' ibihingwa kandi bikomoka ku buhinzi, aho imbuto, imboga zakusanyijwe mu isoko kugira ngo bahaze n'abatabihinga maze bagire ubuzima bwiza.

Ubuhinzi bw'imbuto n'imboga aho abaturage bahinga kijyambere kandi bagasagurira n'amasoko, bityo bigatanga umusaruro uhagije bikanabateza imbere.

Gahunda z'ubuhinzi n'ubworozi aho abaturage basarura imiteja ndetse n'izindi mboga zihinzwe mu murima, harimo abana ndetse n'ababyeyi babo.

Ubuhinzi bwa kijyambere aho imbuto by'umwihariko inyanya zihingwa ku murongo kandi zigashingirirwa bityo bigatanga umusaruro utandukanye n'uwari usanzwe kandi bigafasha mu iterambere ry'igihugu.

Ubuhinzi bw'imbuto zigiye zitandukanye harimo ibinyomoro, zikaba zifasha mu kongera amaraso kandi n'abaturage bikabaha amafaranga mu gihe umuhinzi yabyitayeho.

Ubuhinzi bw'imboga, cyane cyane zihinze hamwe mu karima k'igikoni, ziri mu buhumbekero bityo bifasha abaturage kwiyitaho ndetse no kugira intungamubiri babikura hafi y'urugo rwabo.

Ubuhinzi bw'imbuto zigiye zitandukanye, harimo urusenda rugaragara rufite umusaruro mwiza ndetse na kawa kandi zihinze kijyambere.

Ubuhinzi bw'indabyo ziri ahantu hamwe, aho zitanga umuhumuro mwiza ndetse zigasa neza aho ziri bityo ibidukikije bigakomeza kubungabungwa.

Ibihingwa birimo imboga ndetse hibandwamo ibitunguru, aho akarima k'igikoni kitabwaho kugira ngo gafashe abo mu rugo kandi babone intungamubiri hafi.

Ubuhinzi bw'imbogarwatsi, epinari ndetse n'ibindi, aho biri mu karima k'igikoni bityo bigafasha urugo kugira isoko y'intungamubiri ihoraho ndetse bigafasha n'abana bakiri bato.

Umusaruro w'imbuto zakusanyijwe harimo amapapayi, bityo bigafasha abahinzi mu kubona intungamubiri zihagije kandi bagasagu n'amasoko mu buryo buhagije.

Imboga ziri ahantu hamwe kandi nyinshi, zitwa karoti, umusaruro wavuye mu buhinzi, kandi ufasha abaturage mu kwiteza imbere, ndetse bagasagurira n'amasoko.

Umusaruro w'ubuhinzi bwibanda cyane ku bitunguru aho byakusanyijwe hamwe bizana ku isoko harimo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye ndetse bigafasha ababizanye kwiteza imbere ndetse bigasagura n'amasoko.

Umusaruro mbumbe w' avoka zakusanyirijwe zahinzwe kijyambere bityo bigafasha mu iterambere ry'abazihinga.

Mu bucuruzi bwo mu nsisiro, hari imboga, karoti intoryi, ku muturage agurisha kugira ngo abone amafaranga yo kwiteza imbere.

Serivisi z'ubuhinzi ndetse abaturage bakaba bakusanya imisaruro yavuyemo, bakagana isoko kugira ngo basangize n'abandi kandi na bo babone amafaranga yo kwiteza imbere muri rusange.

Abaturage bahuriye hamwe, bari kubyarura ibihingwa byarembetswe neza mu buhumbekero, kugira ngo babijyane mu mirima yabugenewe yo guteramo, maze bitange umusaruro ukwiriye.

Indabyo ziteye hamwe mu busitani bituma hagaragara neza ndetse hakagira n'isuku rusange kandi bigatanga umwuka mwiza udukikije, bikarinda ihumanya ry'ikirere.

Ubuhinzi buteye imbere, bwibanda cyane cyane ku mbuto n'imboga, aho hahingwa intoryi, zigatanga umusaruro ukwiriye, abahinzi bagatera imbere, mu buryo bwose.

Umusaruro w'imbuto zigiye zitandukanye, avoka, inyanya ndetse n'ibindi, byazanwe ku isoko kugira ngo bitange amafaranga ndetse n'abandi babone uko bahaha.

Ubuhinzi buteye imbere, aho ubuhumbikiro bw'imbuto zigiye zitandukanye, ibinyomoro ndetse n'izindi zifashishwa mu guhinga ndetse zigatanga umusaruro ukwiriye kandi uboneye, bigafasha mu guteza imbere abaturage.

Ubuhinzi buteye imbere, imboga harimo karoti, puavro inyanya, n'imboga rwatsi cyangwa se dodo, aho abaturage bajyana ku isoko kugira ngo bagurirwe bityo babine amafaranga yo kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'imboga zirimo amashu, aho umuturage agenzura aho ibikorwa bye bigeze bityo bikagenda bimuteza imbere.

Ubuhinzi bwa kijyambere, ahari ubumbikiro bw'imbuto, bw'ibiti ndetse n'ibikoresho byifashishwa buhira, aho barimo bufirira ndetse bakuramo ibyonnyi kugira ngo ibiti bikure neza.

Ubucuruzi bw'imbuto zigiye tandukanye, aho zikusanyirizwa ku isoko ziracuruzwa, harimo amaronji, imineke, imyembe ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo abaturage biteze imbere.

Ubuhinzi bugezweho bw'imboga, harimo pavuro aho ziba zakusanyirijwe hamwe ngo zigurishwe, maze babonere amafaranga yo kubafasha mu byo bakora byose.

Ubuhinzi bwa kijyambere kandi bugezweho, aho umuturage yita ku mbuto ze cyane cyane amacunga, bityo bigateza imbere Igihugu ndetse na we bwite.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ariko cyane cyane ibyibanda ku buhinzi n'ubworozi, aho umusaruro wazanwe kugira ngo uhaze abantu mu buryo bwose.

Ubuhinzi bwa kijyambere bw'imbuto, ziganjemo avoka, aho zihingwa kijyambere, zigafasha gutanga umusaruro ukwiriye kandi utubutse.

Umurima urimo abaturage, aho abahinzi bita ku mboga ziteyemo z'amashu, bityo bakagira umusaruro uhagije maze bagasagurira n'amasoko.

Ubusitani busa neza cyane, butemo indabyo mu buryo bwose, aho zitanga isura nziza aho bikikije, ndetse n'akuka gahagije.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, ibigori, inzuzi ndetse bikaba bifasha mu gutunga umubiri mu buryo bwose, aho hera amadegede ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi n'ubworozi aho imiteja ihingwa mu buryo bwa kijyambere ndetse ikagira n'umusaruro uhagije, bityo bikunganira abaturage mu kubaho neza, ndetse bagasagurira n'amasoko.

Ubusitani bwiza buteye neza bufite indabyo z'umuhondo ndetse n'icyatsi, aho bifasha mu bidukikije kugira ahasa neza kandi bigatanga n'umwuka mwiza muri rusange.

Ubuhinzi bwa kijyambere aho abaturage bahinga mu bishanga no mu bibaya, hanyuma bakuhira, kugira ngo babone umusaruro, uhagije w'ibihingwa byabo.

Ubuhinzi buteye imbere, aho abaturage bahinga ndetse bakita ku myaka, bakuhira bakoresheje amazi meza bityo bikabafasha mu kubona umusaruro uhagije.

Abaturage bari ahantu ku ivomero, aho babona amazi meza asukuye, hari n'abana ndetse n'umubyeyi bityo bikabafasha kwirinda indwara zandurira mu mwanda.

Abaturage bari mu murima, bakora ubuhinzi bwa kijyambere bwo kuhira imyaka kandi batagendeye ku gihe icyo ari cyo cyose, haba mu zuba cyangwa mu mvura, bityo bikabateza imbere ndetse bagasagurira n'amasoko.

Ubuhinzi bwa kijyambere aho abaturage bajya mu murima bagahinga imbuto n'imboga cyane cyane amashu kandi bakazuhira neza kugira ngo zitange umusaruro ukwiriye.

Ubuhinzi bw'imboga, cyane cyane iz'amashu, aho umuturage uhinga ari gusasira ndetse yita kuri zo kugira ngo habeho umusaruro ukwiriye.

Ubuhinzi bwa kijyambere aho abaturage buhira bakoresheje ibikoresho byabugenewe ibigori bikera neza kandi bikagira umusaruro uhagije. Bityo bigafasha mu guteza imbere abahinzi.

Amazu atuye mu buryo butandukanye, harimo ibihingwa, insina, n'ibiti bitanga umuyaga kugira ngo abaturage bakomeze kubaho neza kandi bagire ubuzima bwiza.

Ubuhinzi bw'icyayi, hari imisozi ihanamye cyane, aho gifasha mu kubona amafaranga, ndetse abaturage bakiteza imbere, kikagira n'akandi kamaro gatandukanye.

Ibiti biteye ahantu hari nk'igishanga ndetse n'amazu agiye agerekeranye, aho abaturage ndetse n'abanyeshuri bacumbika igihe bari kwiga.

Ubusitani bwiza buteye ahantu ndetse hari n'ibyatsi bitanga akayaga ndetse n'ibiti byiza bituma urusobe rw'ibinyabuzima rubungabungwa.

Amaterasi y'indinganire, mu mirima iri mu misozi kandi ihanamye, aho afasha kurinda isuri, kandi akarwanya n'ibyakangiza imyaka, biturutse ku mwuzure cyangwa se izindi mpamvu.

Ubuhinzi buteye imbere, aho amaterasi y'indinganire acibwa ku misozi ihanamye mu kurinda amasuri ndetse n'ibindi byatera gutwarwa k'ubutaka, maze imyaka wenda ikaba yagira ikibazo.

Abaturage benshi, bari mu murima. Barimo batunganya, aho imbuto zizajya mu gihe cy'itera. bityo bigafasha, mu kugira umusaruro uhagije, kandi uteguye neza.

Gahunda y'ubuhinzi n'ubworozi mu gufasha abaturage kugira ubutaka ndetse no kububungabunga aho ku misozi ihanamye hashyirwamo amaterasi y'indinganire bityo bikabafasha guhinga neza kandi isuri ntitware ibihingwa byabo.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye imyumbati, ibishyimbo, aho bihingwa mu buryo bwose kandi bushoboka bityo bigafasha mu guteza imbere abaturage babihinga.

Ubworozi bwa kijyambere, aho umuturage yorora amatungo magufi arimo ingurube kugira ngo abone umusaruro.

Ubworozi bw'amatungo maremare, aho umworozi yita ku nka ye ndetse ikamuha umusaruro w'amata, ndetse n'inyama hamwe n'ifumbire.

Ubworozi bw'amatungo magufi, cyane cyane ingurube, aho zifasha abazoroye kugira umusaruro w'ifumbire ndetse n'amafaranga mu gihe cyajyanwe ku isoko.

Ubworozi bw'inkoko zitanga umusaruro w'amagi, ndetse ni uw'inyama, mu kuzamura ubukungu bw'aborozi. Aho bahabwa amafaranga mu gihe bazijyanye ku isoko.

Umuryango w'umugabo n'umugore n'abana, aho biyororera ihene n'amatungo magufi kugira ngo babone umusaruro ukwiriye ndetse ubafasha kwiteza imbere, ifumbire, amafaranga ndetse n'inyama.

Abaturage bari ahantu runaka, bafite inka bari kuzitaho, baziha ubwatsi ndetse bita no ku musaruro wazo.

Ubworozi bwa kijyambere bw'inkoko, z'amasake, izitera, zitanga umusaruro w'ifumbire, ndetse n'umworozi wazo akazifasha kugira ngo, zikure neza bityo bikamugirira akamaro.

Ubworozi bw'amatungo magufi, harimo ihene, aho zishakirwa ibyo kurya ndetse n'ubwatsi bityo bigafasha abaturage kororoka ndetse zikabaha n'amafaranga.

Ubworozi bw'amatungo maremare, harimo inka, ndetse zitanga umukamo, zigatanga umusaruro w'amata ndetse n'inyama, bityo zigafasha abaturage mu kwiteza imbere.

Ubworozi bw'inkoko buciriritse, aho abaturage baziha ibyo kurya kugira ngo zitange umusaruro, zitere amagi ndetse n'amafaranga aboneke.

Igisata cy'ubuhinzi n'ubworozi, aho batanga inka mu koroza abaturage kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi babone n'ifumbire ndetse babone n'ibibatunga muri rusange.

Ubworozi bw'inkoko bwa kijyambere aho zitanga amagi, inyama ndetse byaba ngombwa zikajyanwa ku isoko kugira ngo zitange n'amafaranga.

Ubworozi bwa kijyambere bw'inkoko harimo amasake ndetse n'izitera, aho zitabwaho zigahabwa amazi yo kunywa, ibyo kurya bihagije kugira ngo zitange umusaruro ukwiriye.

Ubworozi bw'amatungo magufi harimo inkoko cyane cyane iz'isake, aho zitanga umusaruro w'inyama ndetse n'amafaranga mu gihe zijyanwe ku isoko.

Ubworozi bwa kijyambere bw'ihene aho zitanga umusaruro w'ifumbire, uw'inyama cyangwa se zikajyanwa ku isoko kugira ngo zitange amafaranga.

Abaturage benshi bateraniye hamwe, bahabwa ingurube kugira ngo zibafashe mu kwikura mu bukene ndetse no kubona amafaranga y'imibereho bityo bagire ubuzima bwiza.

Inka ziteraniye ahantu ari nyinshi zirenze icumi, aho zaje kugira ngo zitabweho ndetse zihabwe n'imiti, bityo zikomeze zitange umusaruro ukwiriye.

Ubworozi bw'inka zorererwa mu kiraro, aho umworozi ayiha ubwatsi kugira ngo zitange umusaruro ukwiriye, yaba uw'amata, uw'ifumbire, ndetse n'uw'inyama, ndetse bigatuma ubukungu bwabo bwiyongera.

Inka n'umworozi wayo, aho imufasha kubona ifumbire, ndetse igihe kizaza ikazamuha n'amata, ndetse n'inyama.

Ubworozi bw'amatungo magufi, harimo ingurube; aho zifasha abaturage kubona ifumbire ndetse n'inyama, kandi bigatanga n'amafaranga.

Ubworozi bw'inka aho zororerwa mu biraro ndetse n'abajyanama bakaza gusura kugira ngo batange ibitekerezo ku buryo zakomeza gutanga umusaruro kandi ukwiriye.

Ubworozi bw'amatungo cyane cyane amagufi higanjemo ihene, aho bazitaho bakaziha ubwatsi ndetse n'imiti, bityo zigatanga umusaruro w'ifumbire ndetse n'ibindi.

Ubworozi bwa kijyambere kandi bugezweho, bw'inka ziri mu biraro, zifata ubwatsi neza, zitanga umusaruro w'ifumbire, amata ndetse n'inyama.

Ubworozi bw'amatungo magufi harimo ihene zirenga imwe zashyizwe mu bwatsi kugira ngo zibone ibizitunga ndetse zitange n'umusaruro w'ifumbire ndetse n'inyama.

Ubworozi bw'inka, aho zitanga umusaruro w'amata, uw'inyama, ndetse ni uw'ifumbire, bigafasha abaturage kubaho neza kandi bafite amafaranga.

Ubworozi bw'amatungo maremare kandi atanga umusaruro, harimo inka zifasha gutanga amata ndetse n'inyama ,bityo uyoroye bikamufasha kwiteza imbere.

Ubworozi bw'inka ziri mu kiraro, aho inyana yabyagiye iruhande rwa nyina zitanga umusaruro w'amata n'ifumbire ndetse n'amafaranga.

Ubworozi bw'amatungo magufi, ihene zororerwa mu biraro aho zitanga umusaruro w'ifumbire, uw'inyama ndetse zigateza imbere n'abaturage, zibaha amafaranga.

Ubworozi bw'amatungo magufi by'umwihariko ay'ingurube, aho umworozi aha amazi ndetse akanayitaho kugira ngo itange umusaruro ukwiriye.

Ubworozi buciriritse bw'inkoko, aho isake n'itanga amagi byororwa kugira ngo bitange umusaruro uhagije ndetse bitange n'amafaranga.

Ubworozi bwa kijyambere kandi bugezweho bw'amatungo magufi cyane cyane inkoko, kugira ngo zitange umusaruro kandi ukwiriye, bityo bifashe guteza imbere ubikora.

Umuhanda nyabagendwa urimo inkokokazi, aho itanga umusaruro w'amagi ndetse ikanororoka bityo uyoroye akagira icyo abona ku bijyanye n'amafaranga ndetse akiteza imbere.

Ubworozi bugezweho bw'amatungo by'umwihariko amagufi arimo ingurube zitanga umusaruro w'ifumbire ndetse n'amafaranga, aho umuganga wazo aba azitaho.

Gahunda y'ubuhinzi n'ubworozi aho ingurube zororwa ndetse mu buryo bwa kijyambere bugezweho kandi n'andi matungo magufi afasha mu iterambere ry'abaturage ndetse n'igihugu muri rusange.

Gahunda y'ubuhinzi n'ubworozi, aho amatungo magufi cyane cyane ihene, zororwa kugira ngo ziteze imbere abaturage zijye zitanga umusaruro, yaba ifumbire, inyama ndetse n'amafaranga.

Ubworozi bw'inka, aho zitanga umusaruro, ifumbire, amata, ndetse n'inyama, mu buryo bwose kugira ngo ziteze imbere abaturage, ndetse babeho neza.

Ubworozi bw'amatungo magufi, yiganjemo ihene, aho zitanga umusaru, ifumbire ndetse inyama, kandi zigatanga n'amafaranga mu buryo bwose bushoboka.

Ubworozi buteye imbere, inzuki, aho zishyirwa hamwe kugira ngo umusaruro uboneke, w'ubuki, kandi bigateza imbere ababikora.

Ubworozi bwa kijyambere, aho ihene cyane cyane amatungo magufi yororerwa agatanga umusaruro w'ifumbire n'amafaranga ndetse agatanga n'umusaruro w'inyama bityo bigafasha mu bukungu bw'Igihugu ndetse n'ubw'abaturage muri rusange.

Ubworozi bw'inkoko ndetse buciriritse, harimo izitera, amasake, kandi bifasha mu guteza imbere ubukungu bw'aborozi.

Ubworozi bw'inka zororerwa mu biraro, aho zifite amaherina aziranga, kugira ngo zitabura, ndetse zigatanga n'umusaruro, ifumbire, amata, ndetse n'ibindi.

Ubworozi bw'amatungo magufi by'umwihariko ihene, aho zitanga umusaruro, ifumbire, inyama ndetse n'amafaranga ku bazorora bigatuma biteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo maremare by'umwihariko inka, zifasha umuturage ndetse w'umworozi kubona umusaruro w'ifumbire, amata ndetse n'inyama kandi zigatanga amafaranga.

Gahunda y'ubuhinzi n'ubworozi, aho abaturage bateraniye hamwe baje gufata amatungo magufi, arimo ingurube kugira ngo abafashe mu kwiteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo magufi buciriritse, cyane cyane bwibanda ku nkoko bityo zigatanga umusaruro w'inyama ndetse n'amagi.

Inka nyinshi ziteraniye hamwe, aho aborozi bazizana kugira ngo zihabwe imiti kandi zitabweho ndetse bagirwe n'inama z'uko bagomba kuzifata neza zigatanga umusaruro ukwiriye.

Ubworozi bw'amatungo magufi, cyane cyane ihene, aho zifasha aborozi kubaha umusaruro, ifumbire, inyama, ndetse zikajyanwa n'amasoko kugira ngo zitange amafaranga.

Ubworozi bw'ihene ndetse n'amatungo magufi, aho zitanga umusaruro w'ifumbire ndetse zigatanga n'amafaranga mu gihe bujyanwe ku isoko ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ubworozi bw'amatungo maremare, harimo inka, aho zitanga umusaruro w'amata, inyama ndetse n'ifumbire yifashishwa mu buhinzi.

Ubworozi bw'amatungo magufi, cyane cyane ingurube. Aho abaturage bateraniye hamwe baje kuzihabwa, kugira ngo babone ibijya bibafasha kwiteza imbere.

Ubworozi buteye imbere bwo mu biraro, aho inka zihabwa intungamubiri zikwiriye, ndetse n’abajyanama b’ubworozi bakazisura, bakamenya ikibazo zifite, bityo bigafasha mu gutanga umusaruro ukwiriye.

ubuhinzi bwa kijyambere kandi bugezweho. Aho ubuhunikiro bw'imbuto, zirimo avoka bwitabwaho cyane, bukukihirwa kugira ngo zitange umusaruro uhagije.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukoresheje imbuto nziza ndetse n'ifumbire y'imborera; aho imyumbati ihingwa ku murongo kandi igatanga umusaruro ukwiriye, bityo bigatanga ibiryo ku baturage ndetse n'amafaranga.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto, ziri mu buhumbekero, aho bufasha kugira ngo zikure neza kandi zigire n'ubuzima bwiza, mu gihe zashyirwe mu butaka busanzwe.

Ubuhinzi bwa kijyambere, kandi bugezweho, aho umurima uhinzemo ibijumba ndetse bigaragara, byeze, kandi bigafasha mu bukungu bw'igihugu, ndetse bugatanga n'ibiryo ku baturage.

Ubuhinzi bw'imbuto n'imboga buteye imbere, aho bibanda ku nyanya ndetse n'ibindi bihingwa, mu buryo buteye imbere, bityo bikunganira umusaruro w'igihugu.

Umurima urimo ibihingwa by'ibigori ariko umusaruro ukaba utameze neza ndetse imvura ikaba yarabuze, harabaye ubutayu.

Umusaruro uhagije n'imbuto z'amacunga, aho abaturage bashyira imbaraga mu kweza ndetse bakabona umusaruro uhagije.

Ubuhinzi buteye imbere, aho imirima y'ubuhumbikiro bw'imbuto, yitabwaho ndetse ikagenda isuzumwa buri munsi kugira ngo itange umusaruro uhagije.

Ubuhinzi bugezweho bw'imboga n'imbuto, aho hibandwa kuri epinari zifasha mu kunganira umubiri kugira amaraso ndetse na pavuro.

Ubuhinzi buteye imbere bw'inyanya ndetse n'izindi mboga zigiye zitandukanye, aho zihingwa mu buryo butandukanye n'ubwari busanzwe kugira ngo butange umusaruro ukwiriye.

Umurima urimo imigozi y'ibijumba, aho bifasha abaturage mu kubona ibyo kurya, ndetse byaba byiza bagasagurira n'amasoko kugira ngo biteze imbere.

Ubuhumbekero rusange bw'ibiti, imboga, imbuto ndetse n'ibindi, aho abaturage babishyira kugira ngo bituburwe neza kandi bigire akamaro.

Ubuhinzi bw'imboga mu karima k'igikoni, aho hibandwa ku guhinga ipinari, ndetse bigafasha mu gutanga amaraso, ndetse zikanafa no kugira ngo umubiri wisunganye neza.

Ubuhumbikiro bugezweho bw'ibiti biterwa bivangwa n'imyaka bityo bigafasha mu kubungabunga ibidukikije ndetse no kugira urusobe rw'ibinyabuzima rwiza.

Ubuhinzi bugezweho, bwibanda ku bihingwa bigiye bitandukanye, harimo imyumbati iteye ku murongo kandi itanga umusaruro uhagije bityo bikunganira abaturage ndetse n'igihugu muri rusange.

Ubuhumbekero bw'ibiti bya avoka, ariko zitaramera neza kubwo kubura amazi, ariko bifasha mu kubungabunga ibidukikije.

Ibiti byahumetswe bigamijwe guterwa ndetse bikaba bifasha ibidukikije mu gukora umwuka mwiza, bikarinda ihumanya ry'ikirere.

Ubuhumbekero bw'imyaka, aho ihunikwa cyane cyane ibigori, bigatuma umusaruro ubikwa neza kandi ukagira agaciro, ndetse ukarinda n'ubukoko buwangiza mu gihe utarajyanwa ku isoko.

Ubuhinzi bw'indabyo zigiye zitandukanye mu gutaka ibidukikije ndetse bigatanga n'umusaruro ku bazikoresha bityo bigatuma tugira ibidukikije byiza kandi isi ifite umwuka mwiza.

Ubuhinzi bw'imbuto, ziterwa hantu hagiye hatandukanye, ndetse n'imyaka, harimo ibishyimbo, kandi bigafumbirwa neza kugira ngo bitange umusaruro ukwiriye.

Ubuhinzi bwa kijyambere, aho imbuto ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye bihumbikirwa hamwe mubuhumbikiro, bityo hakaba hari umwuka mwiza, ndetse n'akazuba keza, bigatuma bikura neza ndetse bigatuburwa neza.

Ubworozi bw'inka aho umuvuzi ubishinzwe azitaho akazitera imiti kugira ngo zikomeze zibungabungwe ndetse zitange umusaruro nk'uko bikwiye.

Ubworozi bw'amatungo cyane cyane inka aho zigira umusaruro utanga ifumbire, amata ndetse n'aborozi bakazigirarira isuku kandi bakazitaho kuko zibafasha muri byinshi.

Abaturage bateraniye ahantu hamwe bari kubaga inka ndetse bashaka umusaruro w'inyama, bityo bikabafasha mu kubona amafaranga ndetse bakabona n'ibyo kurya.

Itsinda ry'abanyeshuri bari hamwe biga ubuvuzi bw'amatungo ndetse no kuyitaho, aho bari kubaga intama kugira ngo barebe ibiyigize bityo bunguke ubumenyi bugiye butandukanye.

Gahunda y'ubworozi, aho umuturage yita ku nka aziragira ndetse akazizikorera n'isuku, bityo kugira ngo zigire umusaruro uhagije.

Aborozi bari hamwe, aho basuzuma neza icyateye inka burwayi, kandi bakayishakira ubuvuzi, bityo igakomeza mu buzima kandi igatanga umusaruro ukwiriye, nk'uko bisanzwe.

Abaturage bateraniye hamwe bazanye amatungo yabo harimo inka, kugira ngo bayita bayiteho bayakingizeze kandi banayahe ubwatsi kugira ngo atange umusaruro ukwiriye.

Iduka ririmo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu bworozi no mu buvuzi bw'amatungo ndetse no mu buhinzi, hari imirama y'imbuto zitandukanye, bityo bikunganira ubuhinzi gutera imbere.

Umuturage ushoreye inka ye, aho ayijyana mu bwatsi ndetse akayitaho kugira ngo imuhe umusaruro uhagije w'umukamo, inyama ndetse n'ifumbire muri rusange.

Ubworozi bw'amatungo, aho inka nyinshi ziteraniye, ziri kurisha ubwatsi, ziri kumwe n'umuvuzi wazo azitaho ndetse aziha n'imiti yabugenewe.

Inyoni ziri mu ishyamba aho na zo ziba mu bidukikije, kandi zikaba zimwe mu bigize urusobe rw'ibinyabuzima kugira ngo ibidukikije bikomeze bisigasirwe.

Igice cy'ubukerarugendo mu ishyamba rya Nyungwe aho ababyifuza basura ndetse bakagendera ku kiraro cyo mu kirere icyo twita kanopi, bityo bigafasha mu kuruhura umubiri ndetse no kwirebera ibyiza bitatse Igihugu.

Urusobe rw'ibinyabuzima, birimo inyoni ziri mu mashyamba, zifite ubwiza butangaje, aho zigira uruhare mu kuba bimwe mu bigize urusobe rw'ibinyabuzima kandi bigakurura na bamukerarugendo.

Inyamaswa zo mu ishyamba, zibungabungwa kugira ngo ibidukikije bikomeze bisigasirwe, kandi urusobe rw'ibinyabuzima rukomeze rubeho, bityo bigafasha ibituzengurutse kubaho neza.

Serivise zerekeye ubuhinzi n'ubworozi, aho inyamaswa ziba mu ishyamba, zihingirwa ndetse zikagaburirwa, mu buryo haboneka imbuto ndetse zikazifasha kubaho.

Inyamaswa zo mu ishyamba harimo amasha zibungabungwa neza, mu bwatsi butoshye kugira ngo zikomeze zibungabungwe kandi ibidukikije bikomeze bisigasirwe.

Inyoni mu biti ndetse no mu mashyamba, cyerekana ko hari urusobe rwinshi rw'ibinyabuzima, kandi bigomba kwitabwaho, bityo bikagira agaciro, mu kubungabunga ibidukikije ndetse bigakurura na ba mukerarugendo.

Kagoma iri mu kirere, aho ifashe umuhigo w'ifi bityo ikaba ishobora kubaho kandi ikaba nayo iri mu rusobe rw'ibinyabuzima bw'ibidukikije, bityo igomba kubungabungwa.

Ubworozi bw'inzuki, aho hakusanwa umusaruro, ndetse hakitabwa no ku ngamba zo kubungabunga ubworozi.

Inyamaswa yo mu gasozi aho iri mu ishyamba ndetse ikaba ibarizwa mu rusobe rw'ibinyabuzima bityo igatuma ibidukikije bikomeza kubungabungwa.

Ikiraro cy'ubukerarugendo aho abakigendaho baca mu kirere, bityo bigatuma Abanyarwanda binjiza amadovize avuye mu bukerarugendo.

Inyamaswa z'agasozi zirimo inkende, ziri mu ishyamba, bityo zigakurura ba mukerarugendo ndetse, zikabungabunga n'ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima.

Urusobe rw'ibinyabuzima bigiye bitandukanye, harimo indabyo, inyoni, ndetse ibi nabyo bibumbatiye mu bidukikije, kandi bikurura ba mukerarugendo basura u Rwanda, bakaruha n'amadovize.

Gahunda y'ubuhinzi, aho inyamaswa zo mu gasozi zororwa ndetse zigahabwa ibyo kurya bivuye mu guhinga kandi bikaba n'isoko y'ubukerarugendo.

Urusobe rw'ibinyabuzima harimo inyoni, ibiti ndetse bikagira uruhare mu kubungabunga ibidukikije bityo Igihugu kigatekana ndetse kigakurura na ba mukerarugendo.

Inyamaswa z'agasozi ziri hamwe ziri kurisha, aho ziba mu rusobe rw'ibinyabuzima ndetse zikabungabunga n'ibidukikije, bityo bigahura na ba mukerarugendo.